Inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye, hateretsemo umufuka, urimo ibiribwa, hirya hari amarangi afite ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'amabati asize irangi ry'umukara.

Umuravumba ni ikimera gihingwa kigakura, kikifashishwa kivamo imiti itandukanye, cyane cyane nko ku muntu warwaye inkorora, ushobora kuwuteka ukamuha akaba yakira.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye byo kunywa, hari akabati karimo amacupa afite ibara ritukura ndetse n'umweru, hakaba hateretse ikayi ku meza, hirya hari umuntu uhagaze.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi byagiye byuma barabifata barabirunda ku ruhande, hakaba hari n'ibindi bikiri bibisi, hirya hateyemo ibiti birebire bifite amashami menshi cyane agaye.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye uri gukorerwa isuku na ba nyirawo bakuramo ibyatsi byaba byarumiyemo, bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu.

Akabati karimo ibintu byinshi bitandukanye, mu ducupa, udupapuro ndetse hejuru yako hamanitseho ishashi irimo ibintu, basize irangi ryera.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye birimo ibigori, abantu bahagaze bari gusarura abandi bunamye, bambaye imyenda irimo amabara atandukanye, umukara, umutuku n'ubururu.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye, harimo umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'igitaka, arimo arakingura urugi ashaka gusohoka hanze.

Inzu y'ubucuruzi, harimo akabati kateretseho amacupa, hejuru yako hateretseho igikoresho twifashisha twuhiza umurima, hirya hari akabati gafite ibara ry'umutuku.

Umugore urimo uratera umuti ibiribwa bihinze muri uwo murima ukabafasha kwica udusimba tugenda twangiza ibyo kurya, akaba ari byiza ko abantu bose baba bafite uwo murima, uhingwamo ibiribwa bitandukanye yawukoresha.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hano hakaba harimo igihingwa cyitwa urunyanya ntago kirera neza kuko iyo keze neza kidufasha gutunganya ibibwa byacu bya buri munsi haba saa sita na mugitondo na nijoro.

Igihingwa ibirayi, cyifashishwa duteka ibyokurya bya buri munsi ndetse kikaba gitera imbaraga ku muntu waba wafashe icyo kiribwa haba n'ijoro cyangwa ku manywa.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, uyu ukaba uhingwamo umuceri, umuceri ukaba ufite ibara ry'igitaka ndetse n'icyatsi, hirya haritaruye cyane, hari ibiti byinshi bifite amabara y'icyatsi.

Umurima uhinzwemo ibiribwa bitandukanye, hakaba harimo ibyatsi byinshi cyane bifite ibara ry'icyatsi, hirya yaho hakaba hari ibindi biti birebire bifite amashami menshi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi byumye, izuba riri kuva, harimo abagabo bunamye bafite isuka mu ntoki, igiti ku ruhande gifite amashami agaye menshi.

Hasi ku butaka, hashashe ishashi y'umukara, irambitseho ibitoki byinshi, hunamye umugore ufite imisatsi, wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, wanditseho nimero enye, akenyeye n'igitenge.

Igihingwa cyitwa igitoki, tucyifashisha duteka ibyo kurya bya buri munsi, kirinda indwara, ikindi kikaba gifite ibara ry'icyatsi gihiye.

Ubutaka burimo umurima, hari ibiti bikiri bito bito ubona bateye, bishobora kuzavamo mu minsi iri imbere ibyo kurya, n'urubuto rw'imyembe ariko hifashishijwe kuba twarya indyo yuzuye.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hano hakaba harimo urubuto umwembe rukaba rudufasha kwirinda indwara, rukongera n'intungamubiri mu mibiri yacu, umuntu warufasha biba bigoye ko indwara zimwe na zimwe zamwataka.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'inyanya twifashisha duteka ibyo kurya, ku isoko usanga hari igihe kiba cyabonetse cyangwa cyabuze rimwe na rimwe, iyo ugiyeyo witwaje amafaranga makeya.

Umuco wo gutera igiti ni mwiza cyane kuko igiti umumaro wacyo ni ukuduha umwuka mwiza duhumeka, mu gihe tuba dufite undi watugumyemo ugasohoka mubi, kugira ngo tubashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umurima uhingwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi, hepfo yaho hari ibiti bigufi ndetse n'ibirebire byose biri mu mabara y'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hateretsemo ibiti biri mu mifuka, bifite amashami makeya, hirya hari ibiti birebire bifite amashami menshi yose afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo imbuto inanasi, urubuto rwiza cyane umuntu arya rukaba rwamufasha gukura imyanda mu mubiri, ukagira uruhu rusa neza cyane.

Igihingwa cy'urunyanya tugikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tugitekesha mu biryo kugira ngo bibashe kugira uburyohe ikindi kikurinda indwara ku muntu ugikoresha.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye harimo icyitwa ikawa, ikawa ikaba yifashishwa mu gutunganya icyayi cyiza cy'umwimerere, ikaba yafasha umuntu ukinywa kudasaza vuba niwo mumaro wacyo ahanini.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo ibitaka ndetse n'ibyatsi, hepfo hari insina ziri ku murongo, hirya hari igiti kinini kirimo amashami agaye.

Igihingwa cy'ikawa cyifashishwa mu gukora icyayi kiryoshye cy'umwimerere, gihingwa mu Rwanda, gifite amabara atukura ndetse nay'icyatsi.

Ishyamba rihingwamo ibihingwa bitandukanye, cyane cyane ibiti bishobora kuba byaduha umwuka mwiza duhumeka, tukaba twabasha kugira ubuzima burambye, kandi tukabaho neza kubera ibyo biti.

Umurima uhingwamo ibiribwa, hasi hari ibyatsi byinshi cyane, hirya y'aho hari ibindi biti bifite amashami menshi, ibirebire ndetse n'ibigufi, byose bikaba bifite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire biriho amashami atari menshi. Hirya hari igihuru, hejuru hari igihu.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye hakaba hahinzwemo ikiribwa cy'ikigori twifashisha duteka igikoma, twotsa tukarya ndetse rimwe na rimwe tukaba twakijyana ku isoko tukagurisha.

Igihingwa cyitwa umuceri wasaruwe, kiri mu mufuka umuntu agicigatiye ku kiganza, kikaba kidufasha kongera imbaraga mu mubiri, abenshi tukaba tugikoresha haba saa sita na nijoro.

Mu murima bahingamo ibiribwa bitandukanye, hakaba hari ibyatsi, harimo ibigori, hirya hakaba hari ibiti byinshi, bifite amashami menshi, yose afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi byinshi bifite amabara y'icyatsi, hahingwamo: inyanya, intoryi, karoti, imiteja ndetse n'amashu.

Igihingwa urunyanya, ni ikiribwa dukoresha hafi ya buri munsi, aho duteka ibiryo bidufasha gutunga umubiri, bikaba binaturinda n'indwara, hakaba hariho izihiye n'izidahiye.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hano hakaba hahinzwemo icyayi, hirya hakaba hari ibiti bigufi, ndetse n'ibirebire bifite amashami menshi, yose afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo ibigori n'umuntu arimo aragenda ateramo umuuti wica udusimba tumwe na tumwe tugenda twangiza ibihingwa.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye, hari uducupa tune turi ku murongo, twandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, dusa umweru, twose uko ari tune.

Inzu irimo ibintu bitandukanye harimo uducururizwamo amata, hirya y'aho hari amakarito apanze ku murongo, hakaba hariho ibara rifite igitaka.

Inyubako irarwamo n'inkoko ikiraro, nyinshi ziri ku murongo, ziduha amagi dukoresha mu buzima bwa buri munsi, akaba aturinda indwara.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo, harimo itungo rimwe inyuma muri ayo madirishya hari ibiti birebire ndetse n'ibigufi byose bigiye bifite amabara y'icyatsi.

Amatungo ari gusangirira hamwe ku inkoko, inkwavu zitonda ziri kureba zifite amabara atandukanye umukara, umweru ikindi zigira inyama yoroshye iryoshye.

Inzu yagenewe kuraramo amatungo yitwa ingurube, harimo eshanu zose zirunamye ziri gufata icyo kunywa cyangwa icyo kurya, impande yazo hateretse umufuka ufite amabara atandukanye.

Umurima urimo ibitaka byinshi abantu barunamye bari gupakira itaka mu mashashi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, umutuku ndetse n'umukara.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo umugore wunamye ufite igiti mu ntoki, yambaye ingofero y'ubudodo ifitemo amabara atandukanye, igitaka, umukara ndetse n'icyatsi, hirya ye hari inzu.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hirya harirengeye, hari igicu, hari ibiti birebire bifite amashami menshi, hino hari ibyatsi byinshi biri hasi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo umugore ucigatiye ibase ifite ibara ry'ubururu, harimo igihingwa cyitwa intoryi, yambaye ingofero, yambaye umupira ufite ibara ry'umukara, tukaba twifashisha iki gihingwa duteka ibiryo byacu bya buri munsi.

Ahantu hari abantu benshi bunamye, barimo guhinga, bari kufira ibyatsi, hirya hari umugabo wambaye ipantaro ifite ibara ry'icyatsi n'umupira ndetse n'ingofero, hakaba hari n'inzu iri hirya.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo umukobwa urimo uregura ibyatsi, akaba yambaye ingofero n'umupira ndetse n'ipantaro, akaba afite inkoni mu ntoki.

Umuhanda ugendwamo n'abantu, hirya hari umurima abantu barimo barahingamo, harimo umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, afite isuka mu ntoki ndetse yambaye n'ipantaro.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hakaba harimo ibiti byinshi, ibigori ndetse n'avoka, hari umugore uri guhingamo ufite isuka mu ntoki, ukenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye arimo umutuku, umuhondo.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo umugabo ufite isuka mu ntoki, ndetse hakaba hari ibyatsi byinshi n'ibiti birebire cyane bifite amashami menshi agaye afite ibara ry'icyatsi.

Ubutaka burimo ibimera, hirya hari ibiti byinshi, bifite ibara ry'icyatsi gihiye, harimo umuntu wunamye, urimo urasarura.

Ubutaka burimo gucukurwamo bakuramo ibyo kubakisha, hahagaze abantu benshi, hirya y'aho hari amajerekani bavomeramo amazi afite ibara ry'umuhondo.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hakaba hakirimo ibishyimbo bishyashya bigiterwa bigitangira gukura, bari guteramo n'ibindi biti, hahagazemo abagore babiri, umwe ateze igitambaro gifite ibara ry'umukara.

Umurima uhingwamo ibiribwa impande yaho hari ibiti bifite amabara y'icyatsi, harimo abantu benshi abagore, abana ndetse n'abagabo, yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hasi hari itaka ryinshi, izuba ririmo rirasa, harimo umuntu wunamye wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, harimo insina z'ibitoki zifite amashami menshi.

Ku muhanda hari gukorwa umuganda n'abantu benshi, harimo abagore, abasaza, abana, bambaye imyenda itandukanye, amapantaro afite amabara y'ubururu ndetse n'amashati y'umuhondo.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, hasi hari ibitaka byinshi bisambaguje, hahagazemo abagore babiri bafite amasuka mu ntoki, umwe yambaye ijipo irimo amabara atukura ndetse n'umweru n'agashati karimo amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye turya, hakaba harimo abantu bafite amasuka mu ntoki, harimo umugabo wambaye ingofero itukura n'umupira, hirya ye hari insina iriho amashami menshi.

Akarima k'ikikoni kadufasha kuba twahingamo ibiribwa bidufasha mu buzima bwa buri munsi, nk'ibitunguru, inyanya ndetse n'imboga, bikagufasha guteka indyo yuzuye mu rugo rwawe. Kugira ngo abana batarwara bwaki.

Hari abantu b'igitsina gabo bane, umwe yambaye ingofero ifite ibara ry'icyatsi n'ishati n'ipantaro bisa, undi yambaye ishati y'ubururu undi yambaye ingofero y'umukara hirya hari inzu nini iri kuruhande.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, hirya hari ibiti birebire bifite amashami menshi, yose afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibiribwa hahagazemo abantu barimo barabagara, babiri ni abagabo, umwe ni umugore, yambaye ijipo irimo amabara atandukanye n'ishati irimo uruvange rw'amabara.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, barimo barahasiza neza kugira ngo babashe guteramo ibindi bihingwa, twifashisha duteramo imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'imboga zitandukanye, harimo imboga rwatsi, intoryi, karoti n'izindi.

Igikorwa cyo gutera igiti ni ingenzi cyane kuko buriya tudafite ibiti biduhereza umwuka mwiza ntabwo twaba duhumeka umwuka mubi ngo tubashe no kubaho. Ni yo mpamvu igikorwa cyo kujya gutera ibiti tukabibungabunga aba ari ingenzi.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harashijije nta kintu gihingwa kirimo, harimo umugore wunamye, urimo uratoraguramo utuntu dutandukanye tw'imyanda, yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ijipo irimo amabara atandu...

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, barimo guhingamo bafite amasuka, umwe yambaye umupira ufite ibara ry'umukara ndetse undi yambaye ipantaro y'umukara, hirya hari ibiti byinshi birimo amashami menshi.

Imifuka irimo ibiribwa bitandukanye, ibishyimbo bitukura, imifuka ikaba ifite ibara ry'icyatsi, umweru, harimo n'imirongo y'ubururu.

Inzu ihunikwamo ibyejejwe harimo ibigori, hasi hakaba hari intebe bicaraho, hakaba hahagazemo umugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, ishati irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo abagabo babiri bahagaze umwe yambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, hirya hari insina nyinshi, hakaba hari n'ibiti birebire bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, insina, hirya hakaba hari n'ibiti byinshi bifite amabara y'icyatsi. Hasi hakaba hari ubutaka busa igitaka.

Inzu ibikwamo ibihingwa byasaruwe, hari igihingwa cy'ikigori, cyifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho ushobora kugisya kikaba cyavamo igikoma, ukazajya ukinywa cyangwa kikavamo umutsima.

Imifuka irimo ibiribwa, harimo ibishyimbo twifashi duteka ndetse bikaba byongera intungamubiri ziturinda kurwara indwara za hato na hato.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibihingwa bitandukanye, hapakiyemo imifuka myinshi, irimo ibyo kurya, ibirayi, hirya nta bantu bagaragara, hari iyo mifuka yonyine.

Ubutaka busa neza cyane buhinzwemo ibihingwa bigufi ibyatsi, hirya yabyo hari ibicu, aho hafi nta muntu uri gutamba.

Ibyasaruwe aho biri, hari imifuka myinshi cyane irimo ibishyimbo, amashaza n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Hirya hari umuntu uhahagaze impande y'imifuka.

Imifuka ipakirwamo ibyasaruwe harimo ibishyimbo, ukaba washyiramo n'umuceri, imifuka ifite amabara atandukanye harimo umuhondo, icyatsi ndetse n'ibara ritukura.

Inzu ibikwamo ibyasaruwe, harimo imifuka myinshi cyane ipakiwemo ibyo kurya, harimo abagabo babiri, umwe yambaye igisirubeti gifite ibara rya kake, undi yambaye igisirubeti gifite ibara ry'ubururu.

Igihingwa cyitwa amasaka, kigira intungamubiri nyinshi cyane kuko ushobora kuba wagifata ukagikuramo umusururu wanywa kandi ukagufasha kumererwa neza mu mubiri.

Inyubako ibikwamo ibihingwa byasaruwe, imifuka irimo ibyo bihingwa yaracitse yarangiritse, iri ku murongo ifite amabara atandukanye arimo umweru ndetse n'ubururu.

Inzu ibikwamo ibyasaruwe, harimo imifuka ipanze ku rubahu myinshi cyane, ndetse irimo amabara atandukanye, harimo umuhondo ndetse n'icyatsi, hirya hari utundi tubati tugiye dutondetse.

Ubutaka buhinzemo ibintu bitandukanye, ibiribwa byitwa amashu, afite ibara ry'icyatsi, hirya yayo hari ibindi biti bihari, bifite irindi bara ridasa n'iry'amashu.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hakaba hahinzemo amateke hirya hakaba hari ibiti birebire, hasi hakaba hari ibyatsi. Ibyo biti bikaba birimo amashami menshi yose afite ibara ry'icyatsi.

Ishyamba ririmo ibimera bigiye bitandukanye byinshi, bifite amabara y'icyatsi n'ibiti byinshi, nta bantu bari muri ako gace.

Umurima urimo ibihingwa, harimo urutoki, harimo n'ipoto ry'umuriro, hirya hari inzu ikikijwe n'imiyenzi, n'andi mashami yumye arimo atendera hasi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi byinshi hasi ndetse hakaba harimo n'ibiti birebire cyane, bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi byose.

Ishyamba rihingwamo ibihingwa bitandukanye, hakaba harimo ibiti bidufasha kuba byaduha umwuka mwiza, tugasohora umubi twari dufite muri twebwe, hakinjiramo umwiza, bidusaba kubibungabunga kutabica uko tubonye.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibiti bitandukanye bidufasha gusohora umwuka mubi tukinjiza umwiza, harimo nko kubibungabunga bakatugira inama y'uko twabifata neza tubisukaho amazi ndetse tukareka no kubica bitarera.

Inyubako iri ahantu hitaruye, hasi hari ibyatsi byinshi, ku ruhande hari ibiti birebire, amadirishya ndetse n'amashami menshi akikije iyo nzu.

Ubutaka buriho ibihingwa bitandukanye, ibiti ibigufi n'ibirebire bifite amabara y'icyatsi, ikigaragara nta muntu uri gutambatamba aho ngaho hegereye ibyo bihingwa.

Ishyamba ririmo ibiti byagiye bikongoka kubera izuba amashami yabyo agatakara hasi, hakaba hariho n'ibindi bigifite amababi atoshye asa neza.

Ishyamba ririmo ibihingwa bitandukanye, ibiti bigufi ndetse n'ibirebire, biri mu mabara y'icyatsi . Hirya yabyo hari igicu, nta muntu urimo utamba aho ngaho hafi.

Umuyenzi ni ikimera umuntu yifashisha akingiza urugo rwe kugira ngo agire umutekano, ikindi kagivamo n'umuti uvura abana inkorora cyangwa n'undi muntu mukuru.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, bikaba byifashishwa, mu gihe byakuze bikaba byarandurwa, bagateramo ibindi, hirya hari ibiti bifite amababi menshi akora hasi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hateretsemo ibiti biri mu mifuka bifite ibara ry'icyatsi, hirya yaho hari amatarasi ndetse n'ibiti birebire byose birimo amashami menshi.

Buri murima uhingwamo ibihingwa bitandukanye harimo ibiti by'ubwoko bwinshi, insina ndetse n'ibindi nta muntu urimo, hirya hari ibiti birebire bifite amashami afite ibara ry'icyatsi.

Ishyamba rihingwamo ibiti bigiye bitandukanye, bidufasha guhumeka neza mu buzima bwacu bwa buri munsi, dusohora imyuka itari myiza, hakinjiramo indi myiza ituruka ku bihingwa biba byarahinzwe, bidufasha guhumeka neza.

Ishyamba ririmo ibyatsi bitandukanye n'ibiti byinshi cyane, ibyumye n'ibitumye, ibyatsi bigufiya ndetse bikaba bidufasha kuduhereza umwuka mwiza, tukabasha kuba twahumeka neza.

Ishyamba rihinzwemo ibihingwa bitandukanye cyane cyane ibiti byinshi bifite amashami menshi, bikaba bidufasha kuba twakinjiza umwuka mwiza tugasohora umubi duhumeka, ni muri urwo rwego rero badusaba kubibungabunga.

Ubutaka buririmo umurima uhingwamo ibyatsi bitandukanye, harimo imboga zo twifashisha duteka mu rugo, hakaba harimo n'ibiti birebire ndetse byose bifite ibara ry'icyatsi.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye; ibigufi, ibirebire ndetse hirya hakaba hari n'ibindi birebire cyane, bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, ukaba uhinzwemo n'indabo, utaka iwawe hakagaragara neza, hirya hari insina nyinshi ziri ku murongo, ziriho amababi menshi cyane.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibitaribwa, harimo ibyatsi byinshi, hirya hakaba hari umusozi, hejuru hakaba hari igihu cy'umweru.

Inyubako icururizwamo ibiribwa bitandukanye ku mufuka ushashe hakaba hariho igihingwa kitwa igitunguru twifashisha duteka mu biryo bya buri munsi, kikaba kidufasha kurinda indwara mu mubiri wacu.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, hakaba harimo igihingwa cyitwa imboga zikiri ntoya zitarashibuka neza nibwo bari bakizitera, izi tukaba tuzifashisha hafi ya buri munsi umuntu uzi indyo yuzuye.

Ahantu hari ibyatsi byiza cyane bitoshye, ushobora kuba wahafatira ifoto y'urwibutso, ukaba wayereka inshuti zawe, hirya hari ibiti bifite amashami meza agaye.

Umurima uhingwamo ibiriribwa bitandukanye. Harimo umuntu wunamye, hakaba harimo, ibihingwa bigitangira gukura itaka hasi. Hirya hari ibyatsi byinshi, n'ibiti birebire birimo amashami menshi.

Imirima ihingwamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibiti bifite ubwoko butandukanye, hahagazemo umukobwa wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umupira urimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'ingofero yambaye.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imbuto, ibinyomoro, marakuja ndetse n'imyembe, hirya hari umunzani bifashisha bapimisha ibyo bagiye kugurisha.

Inzu ikorerwamo ubuhinzi, hakaba hahinzwemo igihingwa cyitwa igihumyo duteka kivamo isosi iryoshye cyane, hakaba hari umugore urimo uracyuhira.

Igihingwa kitwa itunda, ni urubuto rwiza cyane, umuntu arya rukamuha intungamubiri zishobora kumurinda indwara zigiye zitandukanye.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyo dukoresha, duhita turya cyangwa bidusaba kubanza kubishyira ku mbabura tugateka, harimo ibiti by'imyembe avoka ndetse n'amapapayi.

Umurima uhingwamo imbuto harimo ibinyomoro byinshi biri ku giti kimwe, icyo giti kiriho amashami menshi, hirya yacyo hari ibindi biti biri hasi byose bifite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo inyanya zidufasha gutegura ibyo kurya bya buri munsi, bikaryoha, ikindi zirinda indwara, umuntu uzifashe agira ubuzima buzira umuze.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo ibyo duteka nka karoti, betarave idufasha kuba twakora amaraso cyangwa utusoro tw'amaraso tukiyongera mu mubiri ku muntu wayikoresheje.

Umugabo uhagaze mu murima wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, n'ipantaro, urimo kureba imbere yacu, twe turi kumureba afite ubwanwa.

Inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa bitandukanye, harimo imbuto ziri mu ishashi ifite ibara ry'icyatsi, ibinyomoro, imyembe, hirya hari imeza iteretseho inyanya.

Ibase iteretse hasi ifite ibara ry'ubururu, irimo urubuto rwitwa ikinyomoro kidufasha kurinda indwara, ku muntu urukoresheje akaba atapfa kubura amaraso mu mubiri.

Urukuta ruzamuye ruriho amatafari ahiye, hasi hari indabo nyinshi, zirimo ingufiya, harimo n'igiti kirekire, kirimo amashami menshi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi byumye imboga dukoresha mu buzima bwa buri munsi zidufasha kwirinda indwara, hirya hari ibiti bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye hakaba hahinzwemo igihingwa cyitwa igitunguru, tukifashisha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi turimo gutegura ibyo kurya ngo dushyire ku meza, ikindi kirinda indwara kikaba cyaturinda kuba twafata indwara vuba.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye, harimo avoka, imineke, hirya hari ibiti, hakaba hari n'umudamu uhagaze, waje gucuruza ibyo yaba yaranguye.

Inyubako icururizwamo ibiribwa bitandukanye, hakaba hari imboga, akaba ari nziza ku buzima bwacu, tuzifata tuzivanga n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, hirya hari karoti zishashe ku mufuka, hakaba nta muntu urimo.

Urubuto rwitwa avoka, ruri mu gikarito rufite ibara ry'icyatsi, rwifashishwa rukora amasarade ndetse ukaba wabishyira no ku biryo bishyushye ukaba wabirya.

iIgihingwa, urutoryi tukifashisha duteka ibyokurya bya buri munsi kigira intungamubiri zivangavanze ku muntu ubashije kuba yarufata buri munsi ruramufasha kuba rwamurinda indwara.

Akarima k'igikoni kadufasha kuba twahingamo ibiribwa byadufasha guteka mu rugo bikaturinda indwara zitandukanye zirimo kuba warya indyo ituzuye, haba harimo imboga, inyanya, ndetse n'ibindi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, irimo ibiribwa bitandukanye imbuto, inyanya, hari umugore wambaye agatambaro k'umutuku, hirya hari abandi bantu bamuhagaze impande.

Ishyamba ririmo ibihingwa bitandukanye, ibyatsi, ibiti birebire birimo amashami menshi, harimo abagabo babiri umwe yasetse yambaye n'umupira undi yambaye ikabutura isa igitaka.

Ibyatsi byinshi bifashe mu butaka, ku ruhande hari indabo zifite amabara abiri atandukanye, umuhondo ndetse nicyatsi, hirya hari igiti kinini.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hakaba hari imifuka iri mu murima irimo ibyo bihingwa, hirya hakaba hari ibyatsi byinshi, hakaba hari n'ibiti birebire bifite amashami menshi cyane afite ibara ry'icyatsi.

Ubwoko bw'imboga bwitwa imiteja, bukaba bukomoka ku bishyimbo, igihe ibishyimbo bitarakura ngo tubisorome, hirya yaho hari ibindi biribwa, byitwa karoti, ndetse na kokombure.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye harimo insenda, amateke n'ibindi biribwa dukoresha mu buryo bwa buri munsi duteka ndetse hakaba harimo n'ibiturinda indwara.

Ubutaka buteyemo ibihingwa by'amawuwa afite ibara ry'iroza ndetse n'icyatsi, hirya hari urukuta rurerure rusize irangi ry'umweru ndetse n'amatafari ahiye.

Inyubako icururizwamo ibyo kurya harimo ibitunguru igihingwa twifashisha buri munsi duteka ibyo kurya kugira ngo bigire impumuro nziza n'uburyohe bwiyongere, bikaba bidufasha kuba byaturinda indwara zimwe na zimwe mu mubiri.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hari abagore babiri bafite igihingwa kimwe mu ntoki ari cyo urutoryi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako icururizwamo ibiribwa bitandukanye, aha hakaba hari ibitunguru twifashisha duteka mu byo kurya, bikadufasha kuryoshya ibiryo no guhumura, hakaba hari ibiti biri iruhande rw'ibyo bitunguru.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, ukaba uhinzwemo karoti, igihingwa cyiza cyane kigufasha kuba wareba neza, kikakurinda n'indwara zo kuba wahuma.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye: harimo ibishyimbo, umushogoro ndetse n'imiteja isarurwa ibishyimbo bitarera neza; harimo umwana, hirya hari umusaza wambaye ingofero.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo inyanya ndetse n'ibindi, harimo umugabo uri kumwe n'umwana we, wambaye umupira ufite ibara ritukura, umweru, ndetse n'umukara, hirya yaho hari ibindi biti ndetse bigiye biciyemo.

Umurima urimo indabo zifite amabara y'icyatsi n'atukura, akaba ari n'umuti wakikoreshereza mu gihe warwaye inkorora urimo urakorora cyane, uragufasha mu gukira.

Umugabo uhagaze mu murima urimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti ku ruhande, hirya hari igiti kinini gifite amashami menshi agaye afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hakaba hari imboga zihinzemo twifashisha mu rugo duteka ibyo kurya, zikaba zifite intungamubiri cyane, zirinda indwara haba ku bana ndetse no ku bakuru.

Igihingwa cyitwa imiteja, gituruka ku bishyimbo bitarera neza. Ni imboga umuntu akoresha ateka, zikaba zirinda indwara cyane, zikaba zubaka n'umubiri.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo abantu benshi, abagore n'abagabo ndetse hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, harimo n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi byose bifite amabara y'icyatsi.

Umuhanda ugendwamo n'abantu, ku ruhande hateyemo ibiti byinshi bifite amashami menshi ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse hirya hari igipangu gisize ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Imifuka ishashe hasi, ikaba iriho ibiribwa bitandukanye, harimo inyanya twifashisha duteka kugira ngo ibiryo biryohe, karoti tukavanga muri izo nyanya hamwe n'intoryi. Hirya hari urukuta ruriho amatafari ahiye.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo ibyatsi bigufiya, bifite ibara ry'icyatsi, hahagazemo abantu batandukanye, abagabo, umwe arunamye yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara n'umupira w'umweru.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hasi hari ibyatsi byinshi, ku ruhande hari insina z'ibitoki, umugore uhagaze mu murima ufite mu ntoki intoryi yambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umukara.

Isoko ricururizwamo ibihingwa bitandukanyekanya imbuto, imineke, imyembe ndetse n'amazi, bigufasha kuba umubiri warusha kumererwaho neza ndetse bikurinda n'indwara.

Ubutaka buhingwamo ibiribwa n'ibimera bitandukanye, harimo ibigori hasi hari amazi, hari umugore ufite ibikoresho akoresha yuhiza ibyo biribwa.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo ibigori, hakaba hitaruye cyane, hejuru hakaba hari igicu, hirya hakaba hari ibiti byinshi bifite amabara y'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, bakaba bari kumenamo amazi kugira ngo bibashe gukura neza, hari abagore bafite injerekani mu ntoki ndetse hirya yabo hari ibiti biriho indabo nziza.

Ahantu hitaruye cyane, harimo imirongo n'ibyatsi, hirya y'aho hari amazu atagaragara neza, hari abantu bari gutembera aho hantu.

Umurima wabagawe, hakaba hahingwamo ibiribwa bitandukanye, haba ibyo kuribwa ndetse n'ibyo gutegura imuhira, hakaba harimo insina ndetse n'ibyatsi byinshi hasi.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, haritaruye cyane, hirya hari amazu, hagati harimo ibiti bigufiya ndetse n'ibirebire, byose bikaba bifite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, ukaba hasi hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibitaka, hejuru ku mukingo hari igiti kinini kirimo amashami menshi afite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ishyamba rihingwamo ibiti bidufasha kuba twasohora umwuka mubi tukinjiza umwiza, abaturage baba bagiye gukoramo umuganda kugira ngo babe bateramo ibindi bihingwa, byadufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi.

Ishyamba rihingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi byinshi hasi, hejuru hari igicu cy'umweru, hirya hari igiti kirekire kirimo amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, hasi hari itaka hakaba hari n'utwatsi dutoya, hirya yaho hakaba hari ibiti binini, bifite amashami menshi yose afite ibara ry'icyatsi.

Umurima ukorerwamo ibikorwa bitandukanye, bakaba barimo kubagara kugira ngo ngo bazabashe guhingamo ibiribwa, harimo umugabo ufite isuka mu ntoki, hirya hari igiti kirekire gifite amashami menshi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hasi hari ibyatsi bigufi cyane byinshi, hirya hakaba hari ibiti birebire bifite amashami menshi cyane biri ku murongo bifite amabara y'icyatsi.

Ishyamba rinini cyane riba ririmo ibihingwa bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibitaribwa, hasi hari ibyatsi byinshi, hakaba hatewemo n'ibiti birebire cyane bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, ibyatsi byiza bikase neza, hirya hari imisozi ndetse n'ibiti birebire birimo amashami menshi akora hasi.

Amazi atemba hirya hari ibyatsi byinshi ndetse n'insina ziri ku ruhande, abantu bicaye undi afite akajerekani arimo aravomeramo amazi.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi, hasi hari ibyatsi byinshi cyane, harimo ibiti bitandukanye ibirebire ndetse n'ibigufi, hirya nta muntu uhari, byose bifite amashami menshi ndetse afite ibara ry'icyatsi.

Ikibaya kidendejwemo amazi ndetse hakaba hakorerwa ibikorwa bitandukanye, harimo ubuhinzi bagahingamo ibiribwa harimo amashu inyanya ndetse n'ibindi bidufasha kubaho.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, haba ibibwa ndetse n'iby'imitako, harimo inzu hagati, hirya hari ibiti byinshi birebire bifite amashami agaye.

Ikiyaga kinini cyane, nta bantu barimo. Haruguru yacyo hateye ibiti byinshi cyane, bifite ibara ry'icyatsi. Hagiye harimo imiringoti myinshi kuzamura kugeza ha ruguru.

Ahantu hitaruye, hari ubutaka amazi, harimo ibyatsi byinshi, hirya hari ishyamba, nta bantu na bake bahari, baba bari gukoreramo ibikorwa bitandukanye.

Ahantu hitaruye hari ibyatsi hasi, harimo igiti kimwe gifite amabara y'icyatsi, hirya hari inzu iri yonyine, nta bantu bahari.

Ubutaka buri ahantu hitaruye hahinzwemo ibiribwa bitandukanye, hari ibyatsi hasi byinshi, hirya hari ibiti birebire n'ibigufi bifite amashami menshi yumye.

Ubutaka buhinzwemo ibyatsi byinshi, hirya hari ibiti birebire, hino hari umugabo urimo uragenda hakaba hari na senyenge zikikije ubwo butaka.

Umurima uhingwamo ibihingwa, uritaruye cyane. Hirya y'aho hari amazu, hepfo cyane hari ibiti bigufiya ndetse n'ibirebire bifite ibara ry'icyatsi byose.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, hirya hakaba hari n'ishyamba hagati, hakaba hari inyubako ebyiri ku ruhande hakaba hari ibiti bitondetse umurongo byinshi n'insina nyinshi zifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Ishyamba ririmo ibiti bigiye bitandukanye, bidufasha guhumeka neza kuko ibiti umumaro wabyo ni ukudufasha kuduhereza umwuka mwiza, igihe twe tuba twasohoye umwuka mubi.

Ikiraro kirarwamo n'inka, harimo nyinshi imwe ifite ibara ry'igitaka, hirya hari indi ifite ibara ry'umukara, hepfo yaho nta muntu uhari.

Inzu yororerwamo inkoko harimo amatafari ahiye n'igiti gihagaze, hakaba harimo indobo zipfundikiye, udufuniko dutukura, inkoko zifite amabara y'umweru zose.

Inkoko ziri mu kiraro cyazo, aho zateye amagi menshi, hakaba hari aho agiye ashyirwa, hari utubara tw'umutuku, ndetse akaza gutorwa na ba nyiri izo nkoko bakayajyana ku isoko.

Inzu yagenewe kuraramo inyamaswa zo mu rugo, yitwa ikiraro, harimo inka imwe ifite ibara ry'igitaka, mu maso yaho harasa umweru, imbere hari umwana urimo kuyitaho.

Inzu yagenewe kuraramo amatungo, yitwa ikiraro harimo inka imwe ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, nta muntu ugaragara aho hafi.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ihene zaje kurisha. Umwana arayifashe, yambaye agapira karimo amabara atandukanye, ndetse n'ipantaro isa igitakaga. Hirya hari insina y'igitoki.

Inzu y'inyamaswa zibana n'abantu yitwa ikiraro, harimo inka, hari n'ibiti byinshi, imbere yayo hari umugabo wambaye isengeri itukura n'ipantaro.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo yitwa ikiraro, hasi hari ibyatsi hahagazemo inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ku ruhande yubakishijwe ibiti bitambitse n'ibihagaze.

Inzu y'amatungo, harimo inka, hanze hakaba hari imbata, ndetse nadedo, n'inkoko, ikikijwe n'ibiti byinshi, harimo inka zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Itungo ryitwa inkoko, rikaba riduha amagi adufasha kuba yakubaka umubiri, cyane cyane akaba yahabwa abana kuko bibafasha gukura neza batagwingiye.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo, harimo ihene imwe iziritse ku giti, hasi hari ibyatsi ikaba ikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ibitambitse, hanze hakaba nta muntu uhari.

Inzu irarwamo n'amatungo aba mu rugo yitwa ikiraro, harimo ingurube iryamye hasi irimo iranywa amazi ndetse irasinziriye, hirya hari ibiti biyikikije nta muntu uri aho hafi.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo harimo inka, ikikijwe n'ibiti birebire n'ibigufiya bitambitse, hasi hari ibyatsi hakaba hunamishijwe umutwe w'inka irimo iranywa amazi.

Ubutaka buriho ibyatsi hasi, hakaba hashimo ibiti biziritseho amatungo, ihene ebyiri, imwe ifite ibara ry'igitaka, iy'indi ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Inzu y'ibitaka, hanze hari ibyatsi birimo ihene ebyiri, umugore wunamye wambaye agapira gafite ibara ry'umukara, akenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye, arimo ubururu ndetse n'umuhondo.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo yo mu rugo ikiraro, harimo ingurube imwe yunamye hirya y'aho hari ibiti biyikikije, ibitambitse n'ibihagaze nta muntu uri aho hafi.

Umugabo uhagaze wambaye, umupira ufite ibara ry'umukara, imbere ye hari ihene irimo irarya ibyatsi, izuba riracanye cyane, iruhande hari inzu y'amatafari ahiye.

Itungo ryunamye riri gutora ibyo kurya hasi ingurube, hirya hari insina ziyikikije zifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu yororerwamo amatungo magufi, harimo inkoko nyinshi zifite amabara y'umweru, ziri kuriramo ibiribwa bizitunga zisangirira hamwe ku isahani.

Ihene iryamye hejuru y'ibyatsi byinshi, ikaba iziritse ku giti, ku bana bafite uburwayi bwo kutagira indyo yuzuye mu mubiri babahereza amata y'inka yitwa amashunushunu.

Inzu y'inyamaswa ziraramo yitwa ikiraro, harimo inka ifite amabara y'umweru n'umukara, irimo irarisha ibyo bayihaye.

Inyubako yagenewe kurarwamo n'inyamaswa zo mu rugo, ingurube irimo idufasha kuduha inyama ndetse n'amavuta meza ushobora kwifashisha uteka ibyo kurya.

Inzu yagenewemo guturwamo n'amatungo aba mu rugo, hasi hari ibyatsi, hari ihene yunamye irimo kurisha, hirya yaho ikikijwe n'ibiti bitambitse n'ibihagaze.

Inzu irarwamo n'inyamaswa zo mu rugo, ingurube, ikiraro, imwe ikaba irimo irareba hasi, hirya hakaba hakikijwe n'ibiti bitambitse, ibindi bihagaze, hakaba nta muntu uhari.

Inzu y'amatungo magufi ararwamo inkoko ziri hanze zirimo ziratora ibyo kurya, zituraga amagi menshi akaba yazanwa ku isoko umuntu akaba yakuramo amafaranga.

Inzu irarwamo n'amatungo ikiraro harimo inka ndetse n'ihene, inka ziri imbere ihene ziri inyuma ziziritse ku giti zose zifite ibara ry'umukara.

Umurima urimo ihene zaje kurisha nyinshi zifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'igitaka, ziri hirya cyane y'ibiti bigaye.

Ku muhanda hacanye izuba ryinshi, hari inkoko irimo ira hagenda, inkoko itera amagi adufasha kuba twakwinjiza intungamubiri mu mubiri wacu ku bantu bayarya, amagi akaba arinda indwara, ndetse n'inkoko ikaba igira inyama ziryoshye, kandi zidatuma umuntu yongera ibiro.

Ku muhanda hicayeho abantu, buri umwe agiye afite ingurube mu ntoki, hirya haparitse imodoka ifite irangi ry'umukara, hakaba hari n'ibyatsi byinshi cyane bifite amashami menshi.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo, hanze hari ingurube bari kuyiha amazi yo kunywa, umukecuru arunamye yambaye ishati irimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hirya hari umwana wunamye wambaye ishati.

Inzu yagenewe kuramo n'amatungo yo mu rugo ikiraro, harimo inka zunamye zirimo ziranywa amazi, hirya hari ibiti hari n'abagabo bahagaze umwe yambaye umupira urimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Aho inyamaswa zirishiriza harimo ihene, ziza kurisha ibyatsi bizitunga, bikadufasha kuba zavamo inyama ziryoshye, igihe cyagera cyo kuzirya ukaba wazirya kandi zarariye nazo ibiryo byazo byiza.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo yitwa ikiraro, harimo inka zimwe zifite amabara y'igitaka, izindi zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hirya hari abantu bahagaze bazireberera.

Inzu inyamaswa ziraramo yitwa ikiraro, harimo ihene ebyiri, imwe ifite ibara ry'umukara, indi ifite ibara ry'igitaka, harimo umugore witeye agashura gafite ibara ritukura.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo ikiraro, harimo inka, ku ruhande hakaba hari ibiti, hakaba hari abantu bahagaze hanze y'iyo nzu, umugabo uri guhereza ibyatsi inka ndetse n'umwana uri guhereza ibyatsi inka.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo, hari ingurube irimo iranywa amazi hanze, iruhande hari jerekani ihateretse, isize ibara ry'umuhondo nta muntu uri aho hafi.

Inka zegeranye ziri ku murongo, hirya hari inyubako ifite amarange atukura ndetse n'ay'umweru, inka zifite amabara y'umukara ndetse na kaki.

Inzu y'amatungo, ikiraro. Harimo ingurube iryamye. Ku ruhande, hari ibiti bitambitse, n'ibirebire. Nta muntu urimo utambatamba aho hafi, ayitegereza.

Inzu yagenewe kurarwamo n'inyamaswa, ikiraro kirimo ingurube ikikijwe n'ibiti, nta muntu uri aho hafi, hasi hari ibitaka bisa nabi, hari n'indobo iyo nyamaswa inyweramo amazi.

Inzu irarwamo n'itungo yitwa ikiraro, harimo inka ifite ibara ry'umukara, irunamye hasi hashashe ibyatsi byumye, ikikijwe n'ibiti bitambitse ndetse n'ibihagaze, hirya hari amashami yumye.

Ubutaka buhagazeho abantu abagore n'abagabo bafite amatungo mu ntoki bazanye ku isoko hirya yaho hari ikinyabiziga cy'igare kiriraho hafi.

Itungo ryitwa inkoko rirororoka cyane, rikaba riduha amagi turya, akaduha intungamubiri iturinda indwara n'igwingira.

Urugo rurimo amatungo ihene eshatu, inkuru ni nyina w'utwo twana dutoya, imbere yaho hari umubyeyi uzifashe mu ijosi, iruhande rwe hicaye umwana hasi.

Amatungo arimo ararisha, inka ebyiri zifite amabara y'umukara indi ifite ibara ry'igitaka, hahagaze umusaza ufite inkoni mu ntoki, imbere ye hari umugore uhetse umwana ufite n'umutaka.

Amatungo ari kurisha ibyatsi hasi ku butaka, umugore arayafashe, yambaye igitenge kirimo amabara atandukanye; umukara, umutuku n'umupira ndetse n'inkweto zifite ibara ry'ubururu.

Urubuto rwitwa itunda turwifashisha twubaka umubiri, ukaba wakoramo na ji cyangwa ukaba barutegura ku meza cyane cyane rwaba rufasha abana bari mu gihe cyo gukura kuba rubahereza inshuro nyinshi.

Umugezi utemba urimo amazi, harimo ibyatsi, ku ruhande hari ibyatsi byinshi, hirya hari ibiti byumye, ndetse n'ubutaka budafite ikintu buriho.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibyatsi byinshi, harimo n'igiti izuba ririmo rirasamo cyane, hirya hari inzu iriho idirishya rifunguye.

Igihingwa cyitwa urunyanya kidufasha kuba twateka ibiryo bikaryoha, ikindi gifite intungamubiri nyinshi kuri buri muntu wese ufata ibyo kurya bya mu gitondo, saa sita na nijoro.

Umurima twifashisha duhingamo ibiribwa bitandukanye, mbere yuko duhingamo ibyo bihingwa, turabanza tukahacukura, tukahabagarira, tukamenamo amazi hakoroha, hamara koroha tukabona kuba twateramo ibyadufasha kujyana ku isoko.

Umugezi urimo amazi atemba menshi, hirya yawo hari ibyatsi byinshi, haruguru hari ibiti birimo amashami afite ibara ry'icyatsi, akaba atemba agana epfo umenya aruhukira hehe.

Umurima uhinzwemo ibiribwa bitandukanye harimo amashu adufasha kongera vitamine mu mubiri, hirya y'aho hakaba harimo ikindi gihingwa cyitwa igitoki ushobora kuba wavanga n'ibindi biribwa ukaryoherwa n'iyo ndyo.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye hasi hari ibyatsi byinshi, impande y'aho hari ibiti birebire birimo amashami menshi yose afite ibara ry'icyatsi.

Ibiti biri mu mufuka byifashishwa kugenda biterwa ahantu hagiye hatandukanye, kurinda inkubi y'umuyaga, ahantu hari imiferege, biduha n'umwuka mwiza wo guhumeka bikadufasha kuturinda indwara.

Amazi atemba, adufasha kuba twayakoresha mu buzima bwa buri munsi. Twakaraba, twayogesha ibyombo twayuhiza ibiribwa, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye. Harimo ibyatsi byumye barunze ku ruhande n'ibibisi n'ibiti bitatanye bifite amashami maremare akora hasi.

Inzu yagenewe kurarwamo n'amatungo, ikiraro, harimo inka nziza cyane y'Inyarwanda ifite amahembe, inyuma yayo hari umugabo, ku ruhande hari undi wambaye igisurubeti gifite ibara ry'icyatsi ufite igitabo mu ntoki.

Inyamaswa yitwa ihene bayifashe bayiryamisha ku butaka, umwana ayicayeho yambaye umupira ndetse n'ipantaro, undi afite icyuma ayifashe ku ijosi arimo arayikeba.

Umugabo urimo uragenda wambaye inkweto zifite ibara ry'umweru ndetse n'igisurubeti gifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari inka ebyiri zirimo ziragenda, hirya hari inyubako isize amarangi y'umweru ndetse n'ibiti biri iruhande birebire.

Ibyatsi birimo ikiraro kiraramo amatungo, ari yo inka impande yayo hari umugabo wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'ishati irimo amabara atandukanye.

Inzu yagenewe kuraramo amatungo, ikiraro, harimo inka imwe bayifashe, hakaba ku ruhande hari ibiti, hirya hari umugabo wambaye igisurubeti gifite ibara ry'ubururu.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye, haba izifite imbaraga n'izidafite imbaraga, hari inyoni ifite ibara ry'ubururu, ifite amaso matoya irimo iragenda.

Inyamaswa zo mu ishyamba, harimo iz'inkazini zitari inkazi. Hano hari iri ku giti ireba kuru ruhande, ifite ubwoya busa neza burimo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyamaswa yitwa igisiga irimo iraguruka, iba ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, iyo ngiyo iba ihiga icyo yarya, ntijya irya ikindi kintu kiterekeranye n'inyama ntiyakibasha.

Mu ishyamba habamo inyamaswa zitandukanye, ndetse n'ibiti byinshi, ibirebire n'ibigufi, harimo inyamaswa zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, zirimo zirebana.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye z'inkazi n'izitari z'inkazi, hari akanyamaswa kari ku giti gafite amaso y'umukara ndetse n'ubwoya bwinshi n'amatwi ahagaze.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye, ebyiri zirarebana zifite amajosi maremare hirya yaho hari ibiti birebire ndetse n'ibigufi byose bifite ibara ry'icyatsi.

Inyamaswa yitwa inkende ishimishije cyane ku maso ya buri muntu wese uyibonye kubera ko uyiha ukuboko ikagusubiza ukundi wayisekesha igaseka.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye, hakaba harimo ubwoko bw'inkende, inkende abantu bazikunda kujya kuzireba bitewe n'uburyo ziba zishimishije, ukuntu usanga ziteruye abana zibakinisha, ukabona ari ibintu bitangaje cyane.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye inini, ingufi n'intoya, hakaba harimo inyoni ifite amabara menshi arimo umukara, ku munwa wayo hasa umutuku ndetse umugongo wayo ukaba ufite ibara ry'icyatsi.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye, zifite amajosi maremare ndetse n'amaguru maremare, zikaba zivangiwe n'amabara asa igitaka, ndetse n'umukara, hirya hakaba hari ibiti bigufi ndetse n'ibirebire bifite amashami menshi.

Ubutaka burimo ibyatsi, hirya hari umugore ufite imbwa, ikaba ari itungo ryiza ryagufasha kukurindira umutekano iwawe mu gihe warifashe neza.

Mu ishyamba habamo inyamaswa zigiye zitandukanye, izifite uburakari, izidafite uburakari, hari ibyatsi byinshi, inyamaswa ebyiri zegeranye, ziri mu cyerekezo kimwe, zose zifite ibara ryijimye.

Ishyamba ririmo inyamaswa zitandukanye iz'inkazi ndetse n'izitari inkazi, inkende akaba ari zimwe muri zo zidafite uburakari umuntu washobora kuba yavugisha bikaba byanamushimisha kuzireba.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye ingufi, indende n'izifite imbaraga ebyiri zifite amabara asa umweruru ndetse n'umukara hirya yazo hari igiti kirimo amashami menshi ndetse kirekire.

Ishyamba ryagenewe guturwamo n'inyamaswa nini ndetse n'intoya, hakaba harimo inyoni irimo iraguruka ifite amabara atandukanye arimo ubururu umutuku ndetse n'umukara ndetse n'icyatsi.

ikiraro kiboshye cyambukirwaho abantu bava mu gace kamwe bajya mu kandi, hariho abagabo bari guseka bambaye imyenda irimo amabara atandukanye; umukara ndetse n'ubururu.

Ishyamba ribamo amatungo atandukanye, ay'inkazi ndetse nt'atari ay'inkazi, hari inyoni ifite amabara meza cyane arimo atukura, move ndetse n'ubururu n'umunwa muremure.

Ishyamba ririmo inyamaswa zitandukanye, ingufi n'intoya, harimo inyoni ihagaze ku giti kiriho amashami menshi, afite ibara ry'icyatsi, hirya hari igiti kinini cyane kidafiteho amababi menshi.

Hari inyamaswa ziguruka ziba ziri mu kirere, zihiga ibyo kurya zidakoze ku butaka, hari inyoni ifite amabara y'umweru ndetse n'amababa asa umukara.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, hakaba harimo igisiga gihagaze ku giti kiri kureba ku ruhande, gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara n'umunwa usongoye imbere.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye, harimo ibyatsi, ibigufi bifite ibara ry'icyatsi, harimo inyamaswa, ifite ubwoya bwinshi ku mubiri, burimo ibara ry'umweru, igitaka ndetse n'umukara.

Ubwoko bw'inyamaswa y'inyoni, ifite amabara atukura, icyatsi ndetse n'umuhondo, ihagaze ku giti kinini.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye, harimo iziryana ndetse n'izitaryana, hari inyoni ihagaze ku giti kirimo amashami menshi afite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye nyinshi, zifite amahembe manini ndetse n'amagufi, zigeranye, ziri ku murongo zifite ibara ryijimye, zikaba ziteye amabengeza kuba wazireba.

Ishyamba rituwemo n'inyamaswa zitandukanye, haba izifite imbaraga nyinshi ndetse harimo n'inyoni ihagaze ku giti, ikaba ifite amabara atandukanye harimo umuhondo umutuku ndetse n'ubururu bwijimye.

Mu ishyamba habamo inyamaswa zigiye zitandukanye, haba iz'inkazi, izifite uburakari bukeya ndetse n'izitandukanya. Aha hari imwe iri kureba ifite uburakari ifite ubwoya burimo amabara y'umweru.

Akanyamaswa kagaragara neza ndetse kanashimishije gato, gafite umurizo munini cyane gafite amaso y'umukara, kakaba gapfukamye hasi ndetse kari kwitegereza icyo kafata ngo kakirye.

Mu ishyamba habamo inyamaswa zitandukanye, izikuruza inda, hakaba harimo inzoka, ifite ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'umukara, ikaba iryamye ku giti.

Ubutaka buriho ibyatsi byinshi haba hari inyamaswa zigiye zitandukanye, izifite amahembe maremare zigaragaza uburakari mu maso ku buryo kuyegera aba ari ikibazo gikomeye.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'inkende y'imbyeyi iri konsa umwana wayo, ihagaze ku butaka, hirya hari amatafari atukura, ahiye.

Inyamaswa y'inkazi yitwa intare, iba mu ishyamba, ni yo iyoboye izindi, iyo ikubonye igira amakare menshi, ku buryo iba yagufata ikagushwanyaguza.

Inyamaswa yitwa inkende, ishimishije cyane ku muntu wese uyihanze amaso, kuko iri mu nyamaswa zishobora kuba yakegura umutwe n'amaguru igahagarara ukabona ko ihagaze.